Intebe ziri muri salo y'ahantutu ziriho akameza. Intebe nziza ziririmo udusego n'umuntu uri hirya wambaye agapira ka karokaro yambaye n'ipantaro. Akandi gatebe kari kuruhande gatandukanye n'izindi.

Bino biro birakeye ga birakeye, intebe ni nziza zifite udusego zirasa neza, ni nziza ntacyo nazishinza zimeze neza. Ariko niba zikoze mu ki? Ntabwo ndi kumenya ikintu zikozemo neza, ariko ni mu igereveriya ga.

Isoko ry'ahantu bafatira ibyo kunywa bigiye bitandukanye. Harimo inzoga z'ubwoko bwose, barimo bahereza abakiriya ngo banywe babone uko bakomeza imirimo.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, aho abantu bajya kureba ibyo bakeneye harimo inzoga harimo imbuto, abantu bajya bajya kugura kugira ngo bice akanyota babone uko bakomeza imirimo.

Ahantu abantu bafatira ibyo kurya iyo bashonje, hari ubusitani bwiza cyane bumeze neza, ibintu byose ni byiza nta kibazo harasa nk'aho hari ibiryo bisa neza cyane.

Muno harimo haragaragaramo akabari abantu bari kubyina, bacanye amatara yo mu kabari aho banywera, bakajya bakora imikino yaho bumva bifuza, ibintu birajya biramera neza.

Isahani iriho inyama, barajya barakatiraraho ibitunguru, n'ibindi bintu bitandukanye, inyama ebyiri, kugira ngo bahe abakiriya barye bumve uko zimeze.

Ibicuruzwa by'ikoranabuhanga; amaradiyo na telefone na televiziyo, amatara biri mu iduka. Bari gucuruza mu nzu ifite amatara.

Aho bagurira icyo kunywa kirimo inzoga z'amoko yose agiye atandukanye n'aho ngo abantu bicara bari kunywa ibyo bashaka baguze ,kugirango munda.

Hano hagaragaraho hoteli isa neza, ifite amabara meza ari kwakaho, iteyeho ibiti bitandukanye byiza, indabo z'ubwoko bwose. Harimo n'ibikoresho bya kinyarwanda ubona ko bimeze neza cyane nta kibazo.

Inzu nziza cyane y'ubururu isize amarangi menshi cyane. Handitseho guma guma iri ahantu heza. Amadirishya ariho amabara y'umweru, yubakishije inkingi z'amatafari ahiye.

Inzu barajya baguriramo ibyo kunywa, isakaje amategura akoze mu bitaka, irimo ibyo kunywa bitandukanye amacupa. Hari n'intebe abantu baragenda bicaraho ku ruhande.

Muno harimo hagaragara amafoto y'ahantu, ariko ni mu kabari hari inzoga zitandukanye z'amoko yose, abantu barajya gufatira icyo kunywa bakishima.

Hano ndabona sitidiyo irimo abantu barajya kurikodinga bakaba bahagazemo, barimo bararirimba barajya barikoza hirya barongera barikoza hino.

Inzu y'ubucuruzi isa neza iriho amakaro, ifite irangi ryiza cyane ni ibintu bisa neza ntakibazo na kimwe ifite.

Ishopu, iduku ry'imyenda bacuruzaho imyenda, nkabona ahantu Agakinjiro cyangwa izindi nzu bashobora kuba bacuruzamo intebe, urebye ibintu byose ni byiza nta kibazo.

Icyapa cy'inzu ya hoteri cyangwa se imoteri iriho icyapa cya sikoru aho bacururiza inzoga handitse wane emu aho bajya bacururiza.

Icyapa cya Banki y'igihugu kimanitseho ibyo bakora. Handitseho amagambo atandukanye yerekana ibyo iyo banki ikora, kugira abantu baraje bajya kuhafatira serivise.

Iyo hoteri iriho indabyo, iriho amatafari ameze neza n' amadirishya ameze neza. Hari indi nzu iri ku ruhande nayo nziza n' icyapa cya Henikeni cyanditseho amagambo aranga ubwoko bwa hoteri.

Inzu nziza cyane iriho amakaro isa nk'inzu y'ubucuruzi aho abantu bari gucururiza, hari insinga z'amashanyarazi zigenda zihazana umuriro n'abantu barimo bahahahira.

hari inzu ya sosiyete y'itumanaho ya airtel yanditseho nta rindi banga, nta rindi; ohereza amafaranga ku buntu. Bakakubwira ngo kanda akanyenyeri magana atanu urwego. Ni inzu ifite ibara ritukura.

Ndabona iduka bacuruzamo amatelefone, amasamusange, amayeyateri, amasipaki n'ibikoresho bitandukanye, garagisi Ndabona n'umuntu uhagazemo, ni inzu nziza isobanutse.

ubundi sikandari nk'izi zikoreshwa mu gupakira ibikoresho by'ubwubatsi cyangwa se zigakoreshwa mu gupakira ibintu by'ibiryo, ariko na none zikaba zibijyana kure. Ntago wenda nko mu rugendo rutoya ntabwo wakoresha imodoka nk'izi. Siwahombaga se? Esanse yagutwara yaba ari nyinshi.

Imodoka ziri mu muhanda mwiza wa kaburimbo, hari amatara ya feruje ibiti, umumotari, umuhanda ufite utuborodire ku ruhande rw'ibumoso n'inzu bimeze neza.

Inzu zirubatse neza ziriho amakaro, zifite isuku. Ni imiryango y'ubucuruzi. Zirasa neza, ariko ikibazo ni uko bayiparitseho amagare, amagare yegamyeho ashobora kuzitera ikibazo.

Inzu y'ubucuruzi isa neza cyane , ifite amabara y'umweru , hejuru umukara. Hari umunyonzi , impande hicaye abantu barajya bajya kuguriramo ibintu byose bashaka , nta kibazo.

Impetako imeze neza handitse Gorota lizorute, ntakibazo harasa neza hafite isuku, ni ahantu umuntu wese yakwifuza kubarabona nta kintu hatwaye.

Inyubako nziza cyane ifite amabara: umutuku, icyatsi kibisi, umweru. Abantu barajya baraza Kuricururizamo imyenda ibitandukanye n'ibindi bikoresho bitandukanye by'ibiribwa biri mu dufuka.

Hano harimo iduka aho abantu barajya bajya kugurira ibiribwa n'ibinyobwa bigiye bitandukanye, bagura ibintu byinshi byo kurya bya buri munsi.

Hano, inzu y'ubucuruzi iriho amarangi meza batatseho ubwoko butandukanye, ifite imiryango ine igaragara ko bacuruza na yo igiye yanditseho ibyo bacuruza.

Inzu z'ubucuruzi barajya baramanikaho, ibyapa byo kwamamaza, kugira ngo abantu bamenye ibyo bacuruza, barajya barajya ku hahahira ibikoresho bitandukanye.

Ubucuruzi burimo ibintu bitandukanye harimo amatara haragaragaramo na kontwari. Barimo barubaka na sagereyaje n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ndabona amagare aracuritse ari ku isoko ryayo, utugari twa Siporo turameze neza, turi ku nzu z'ubucuruzi baje kudukoresha mu ndabona duhagaze iruhande.

Hano ndabonaho igiti, hakaba hagaragara hoteri limitedi ya la Parume, aho abantu barajya baraza kwiyakirira. Urabona ibintu bimeze neza hari ibiti by'imitako.

Joshuwa ndabona ndabona akora ibikoresho byinshi birimo:amatelefone, birimo udukoresho twa televiziyo, urebye ibikoresho byose wabikoraga nta gikoresho na kimwe adakora.

Ubucuruzi bw'imbada cyangwa keke kabutike gatanga ibiribwa, ndabona amandazi n'imbada, ni ubucuruzi bumeze neza mu tudobo turabagirana, ndabona dutetse hejuru y'ikarito y'inyange,

Inzu nziza cyane ya etage, iriho ahantu handitseho ibyo bacuruza ko birimo capati, ibirayi, burusheti, ikizoga capati ndetse n'ibindi, abantu bakaba bajyayo bakagura bakarya nta kibazo.

Hariho ibikoresho bitandukanye barimo barerekana amagambo majingi cyangwa majike, harimo ga, harimo igikarito ,n'ibindi bigiye bitandukanye byerekana ishusho y'icyo ikiriho.

Biragaragara abantu barajya baragenda barasa neza cyane, hari n' abandi bari impande y' amazu, ni nzu nazo zimeze neza, baraba bishimye cyane.

Aho barajya barakorera ibikoresho by'ikoranabuhanga amaradiyo, amamashini, handitse amazina ya Joshuwa honesite teki dukora telefone, bakora ibikoresho bigiye bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi, yanditseho teta shopu, bakora ibintu bitandukanye, harimo irembo, ekwiti, emutiyene, hariho numero za telefone hariho n'icyapa cyerekana n'izindi serivisi bakora.

Hagaragara uruganda rukora ibikomoka mu buhinzi，rwanditseho ururabyo rushushanyije hejuru， rufite inyubako imeze neza， n'urukuta, iruhande rwaho hari n’indabyo， rwanditseho amagambo menshi.

Inzu z'ubucuruzi ziriho insinga hejuru, zometseho amakaro asa neza, munsi bahacururiza ibintu bitandukanye: ibikapu, hari n'umutaka wa sosiyete y'itumanaho.

Do ndabona utuntu tumanitseho imyenda, ndabona umuntu wicaye. Hariya bari gucuruza amatelefone n'amaposhete. Inzu zigaragara ko ari iz'ubucuruzi ziri ahantu ku muhanda, abantu bose baraja baragomba kugura gutya.

Iyinzu imeze neza y'ubucuruzi, iriho amapine bagenda bashyira mu modoka, amapine agera ku munani, hari nakandagira ukarabe, ifasha abantu mu kunoza isuku.

Inzu imeze neza iriho icyapa, yubakishije amabuye, ku ruhande iriho amarangi y'umweru, iteyeho agatebe imbere bicaraho, hariho umuryango w'amabati abantu binjiramo, inyuma hari ibiti, hejuru hari insinga.

Ahantu hari inzu nziza cyane. Irimo imbere izitiye impande harunze ibyuma bakoresha bubaka. Inzu yubakishije ibintu by'ibirahure gusa, iteye inkingi zisa neza.

Iyi nzu isa neza cyane y'ubucuruzi, yubatse ahantu heza haparitseho imodoka, iruhande hari aho abacuruza serivise z'itumanaho, bose bameze neza cyane barakora.

Karitsiye zirameze neza, isanteri nta kibazo, inzu nziza amashanyarazi arahari, ahantu hafite isuku, imidugudu myiza ,abantu bose baraje barubaka gutya kuko byaba ari byiza.

Hagaragara inzu z'ubucuruzi zifite amakaro agiye atandukanye, aho bacururiza imyenda hari ipoto igiyeho insinga z'amashanyarazi, n'abagore babiri bari kugura utuntu.

Inyubako za etaje zirimo kubakwa, n'izindi zamaze kuzura ziteyeho, amarangi meza, zanditseho iwacu duke, hari aho bacururiza ibikapu, by'abana bikoze mu myenda y'ibitenge, n'akandi gasoko karimo abantu.

Indaha, inzu isakaje amabati ashaje, iriho ibiti bya geververiya, iriho akantu gasohora imyotsi, amababi y'ibiti yagiye ahubukira ku nzu, yanditseho ijana na mirongo itatu n'cyenda.

Igiti kirekire kigaragaza ikirere cy'ishusho y'ubururu, munsi ya cyo hari inzu nziza y'ubucuruzi, hari imodoka z'amadayihatso, ndetse hari n'umuhanda utambika.

Uzi ko hari ahantu haba hameze nk'ibihugu by'amahanga! None se reba, ntabwo naherukaga kubona ahantu hari inzu z'ibiti ziteye gutya ariko urabona ko haracyabaho haracyabaho kandi urabona haba hari n'abajenti bakora akazi kabo nta kibazo, njye mba mbiheruka kera.

Ndabona ababyinnyi bambaye imyambaro y'umweru, bafite akantu biziritse mu ijosi n'akandi bijiritse mu mutwe bafite ibisabo ,n'inzu yanditseho Kanuma iriho ibyapa ,ni inzu ya etaje iri ahantu mu bwubatsi imeze neza.

Ubundi ahenshi inzu nk'izi ngizi z'amakonoshi zifite ibisenge biteye gutya zikundwa zikunda kuba ari iz'ubucuruzi, ntago wakubaka inzu nk'iyi ngo uyituremo biba bigoye, ubundi iba ari iy'ubucuruzi kuko uyikora gutya igihe iri ahantu nko ku muhanda iyo ugiye kuyi kuyibagamo ntago biba ari byiza.

Inzu shyiraho ibyapa bitandukanye ya konosho bigaragara ko ari inzu bajya bacururizamo imbere haparitse imodoka y'umweru

Ibiti binini biteye ahantu birebire, hari n'amazu meza yubakishije amatafari ahiye, haparitse n'amagare abantu bagendaho bicaye hafi.

Hano haragaragara ahantu handitse tuyisenge gaze rimitedi, bigaragara ko bakora ubucuruzi bw'amagazi agiye atandukanye, aho abantu barajya baza guhahira kugira ngo babone uko bateka.

Uno mucuruzi arafite arafite arafitemo ibintu byinshi arafitemo amaji, acuruza ibintu byose ugereranyije n'abandi, iduka rye ryara ryarakuze pe! ubundi naherukagayo acuruza utuntu dukeya afite ibintu byinshi bihagije.

Ndarora inzu z'ubucuruzi ziriho ahantu bacururiza ziriho icyapa ca eyateli shopu amaduka abiri ameze neza mo imbere harimo ibicuruzwa.

Icyapa kerekana ibinyobwa bitandukanye, bacuruza, kugira ngo abantu bage barajya kuhagurira, babone ibinyobwa, fanta, n'izindi nzoga z'amoko yose, abantu bashobora gukoresha.

Hano ni inyubako nziza ifite amashanyarazi, hejuru ya yo ifite ibisenge byiza mu ibara ry'ubururu bwerurutse, ifite aho bugamira bigaragara ko ari inzu z'ubucuruzi zimeze neza.

Inzu y'ubucuruzi iteyeho amakaro ifite n'irindi bara ritambitseho, iteye inkingi iriho inzugi z'icyatsi kibisi, haparitse umunyonzi wambaye ikote na kandagira ukarabe.

Inyubako ifite udushami twinshi tw'amabati hejuru ifite amabara y'umuhondo, iriho imodoka, ikaba iriho n'umwajenti uhakorera ufite umutaka w'itumanaho wa Emutiyene, ifatanye n'iyindi.

Isoko risa neza cyane aho bazajya bacururiza imineke, inanasi, imbuto zigiye zitandukanye z'ubwoko bwose, bizajya bisa neza cyane harimo inanasi.

Inzu y'ubucuruzi yubatse amakaro hari abakora amatelefoni bakorera imbere y'umuryango ni ibintu bisa neza cyane iriho imiryango ine igaragara neza hakaba hari yubakishije amakaro n'inkuta nziza

Inzu z'ubucuruzi n'abantu bari mu isoko, aho baracuruza ibigori, hari n'umutaka wa emutiyeni, umuntu ajya yicara, atanga amayinite yo guhamagaza kuri terefone, n'ibigori byinshi mu isoko.

Muno hagaragara korali y'abaririmbyi irimo iratembera ahantu irimo iririmba, hacanye amatara ameze nk'imuri nini cyane ziri kumurika imbere yabo kugira ngo baririmbe.

Inyubako igaragaza ikigo cyo kuguriza no kubitsa cya Banki Nkuru y' u Rwanda, ishami, Banki y'Abaturage y'u Rwanda ishami rya musanze, rifite umuryango umwe, ririho n'abakiriye.

Isoko ririmo ibintu byinshi. Abantu barimo barajya guhaha, hagaragaramo imyenda, hagaragaramo umugore wambaye agakote, hagaragaramo umwisilamu wambaye akagofero. Hari Ekwiti Banki cyangwa se ikigo cy'igurizanya cyitwa Ekwiti abantu bakoresha.

Hano inzu y'ubucuruzi iriho ibara barashyiraho ibyapa bya banki yitwa unguka, byumvikana ko ari mu gakenke ifite amabara umweru ifite ubururu abantu barajya bayikoresha bahabwa ibyo bakeneye.

Inzu nziza cyane yubatse ahantu heza cyane hari indabo, hari igiti cy'imikindo, hari igipangu, hari anteni ya televiziyo izajya irakurura amakuru, hari igipangu cyubakishije porutaye, hari inzu iriho ibirahure byinshi.

Ahantu bacururiza ibintu bitandukanye ,bagiye babyandikaho mu mabara atandukanye ,bacuruza n'ibyo bita ibiraha, hariho amazina menshi y'ibyo bacuruza mu ibara ry'umweru.

Inzu iri ahantu heza cyane hari :ubusitani bwiza cyane, amapave, imvura yaguye .Inzu irimo amarangi y'umweru isakaje amabati meza y'ubwoko bugezweho, ifite igipangu cyiza ,ni inzu ishamaje kuyireba.

Inzu zi zimeze neza z'amabati ameze neza ,zifite ibiti by'imikindo, amashanyarazi arahari, hirya naho hari indi nzu ya etaje urabonako birasa neza, urebye zino nzu zishobora kuba zaja ziri ku muji.

Ahantu bacururiza inkweto. Abantu bajya bagenda bagahitamo izo bashaka, bakazigura bakazambara, bakajya bazikoresha ibintu bitandukanye. inkweto ziri hasi, izindi ziri mu tuntu turi hejuru.

Umuryango cumi na kane baracuruza ibiribwa, hahagaze igare rino gare naryo iry'umuyonzi, ndabona baramamaza ibicuruzwa bitandukanye ndetse no ku muryango ukurikiye, udutebe abakiliriya bicaraho ku ruhande.

Isoko bacururizamo imyenda igiye itandukanye, abantu barimo baracuruza imyenda abandi barimo baragenda mu isoko, abandi barimo barashaka kugura abana, abakobwa, abagore, barishimye.

Abantu bari ahantu mu nzu barebera mu birahure. Hari ubucuruzi, bafite ibiti bigiye bitandukanye, bafite hirya haparitse imodoka ibintu bimeze neza nta kibazo.

Ndabona iduka ry'imyenda rimeze neza, imbere haciyemo umuntu uri gucuruza, ni isoko ryiza rwose ryubakishije amakaro, ririmo twa esikariye bagiye baramanitseho imyenda, baramanitseho inkweto, umuntu yaja aragurirayo.

Amadukuru, utu ni utudukuru tw'imyenda, ese barazicuruzaga? Umuntu arambaye agapfukamunwa, bari gucuruza imyenda itandukanye, imipira, amakanzu, imyenda y'ubwoko bwose.

Hano ni ku muhanda aho bari kotsa ibigori, hagaragara imbabura, umufuka urimo amakara, umuntu wicaye iruhande rw'imbabura, ategereje ikigori, n'umugore urimo kucyosa yunamye akigaragura neza.

Ndabona ari inyubako nziza ifite ama etaje, yageretse kane hafi gatanu, ariko uramutse uhubutse ushobora guhura n'ikibazo. Ni ndende ifite uburebure, ishobora kuba igejeje no muri metero esheshatu cyangwa zitanu.

Hano ni mu iduka cyangwa se aho bacucururiza amaji atandukanye, amabiswi, harimo fanta nini cyane z'umuhondo za oranje, harimo n'izindi fanta ntoya, harimo n'utuji two mu gakombe, harimo ji z'amoko yose berekana ko ari zo bacuruza.

Ndabona mu isoko ry'imboga imbuto bucuruzi harimo acuruza inyanya, karoti, imiteja afite mironko akoresha.

Hano ni mu isoko ry'imyenda， harasa nko mu Byangabo. Ariko ntabwo mbizi neza niba ariho， ndabona abantu barimo bahanura ibikapu，n’undi muntu arimo aza asanga aho yahahira imyenda n’utundi dukoresho，aragenda neza.

Isoko iri soko baracuruza imyembe, ibinyomoro ,amawotemeloni, ndabona urubaho ,ni isoko rigari ahantu heza, nta kibazo umuntu yakwifuza kuja araja kugurayo.

Ibikoresho bitandukanye by'amakarita bacuruza imikandara, bacuruza n'ibindi bikoresho bitandukanye birimo ibifuniko by'amaterefone, birimo amatara, birimo udukoresho twica imibu.

Ni isoko, abantu barajya barajya kugurira ibikoresho bitandukanye, harimo imboga z'ubwoko bwose, harimo n'imbuto zigiye zitandukanye, abantu barajya barajya kuzireba bakazikoresha.

Hano barimo baracuruza imbuto inanasi amaronji n'utundi dukoresho dutandukanye mu isoko, hari n'imiryango ubona iri ku ruhande cyanga se hakaba harimo nk'agaso ko mu midugudu bari gucuruza imbuto zitandukanye.

Amacupa yanditseho inzoga zitandukanye nyinshi, kandi zisa nk'aho zihenze. Zirimo umukara, umuhondo, umutuku, amacupa meza cyane agiye atandukanye.

Hano haragaragara isoko, barimo gucuruzamo inkweto, imyenda, ni mu isoko ririmo ibintu bitandukanye, byinshi by'ibicuruzwa, abantu barajya barakenera.